Abagore babiri bahagaze imbere, umwe afite mikoro mu ntoki, ndetse n'igitabo iruhande rwe hari undi mugore wakenyeye, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho ngo bikorere mu isibo.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bicaye ahantu mu ihema, hakaba harimo abahungu babiri begeranye bafite akapa kanditseho ngo gerayo amahoro, inyuma yaho hakaba hari undi musaza wambaye ingofero agapira k'umweru ndetse n'ikoti.

Abantu benshi bahuriye ahantu mu nzu mberarabyombi harimo abakuze ndetse n'abana, hirya gato hari abandi bicaye ku ntebe ziriho n'amazi, bambaye impuzankano z'icyatsi n'undi uhagaze imbere uri kubabwira.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ufite mikoro mu ntoki yambaye n'isaha akaba ahagaze ari kuvuga, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye amarinete n'ishati y'amaboko maremare hari n'ibikoresho ku meza.

Abayobozi mu nzego zitandukanye, bicaye ahantu mu nzu mberabyombi, harimo umwe w'umusirikare, wambaye imyenda ya gisirikare ndetse n'uhagarariye abagororwa, wicaye iruhande rwe, uwo mugabo akaba afite mikoro mu ntoki, ahindukiye ari kubwira abantu.

Abantu benshi bambaye impuzankano y'umweru, bambaye ingofero z'umweru ndetse n'imipira y'umweru n'amapantaro y'umukara, hirya gato hari umumama wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'isaha.

Abantu bahuriye mu nzu mberabyombi bayobowe n'abagabo bane bicaye ku ntebe z'umukara ziri imbere, umwe muri bo afite mikoro mu ntoki yambaye umupira w'umweru n'ipantaro yumukara, inyuma yabo hari icyapa cyanditse ngo rubyiruko menya amateka yawe.

Umugore wambaye ibikenyero ndetse ufite n'isaha ku kuboko, akaba ari kubyina, ari imbere y'abandi bantu, bicaye ku meza, asa neza, atatse imitako igiye inyuranye kandi ubona ko yishimye

Abakobwa bambaye imyenda y'umweru ndetse bizengurukije udutambaro mu mutwe bafite imisatsi yumukara bakaba bari kubyina bahagaze imbere y'abantutu bambaye amakoti yimikara nindabo imbere yabo.

Umugore uri guseka ufite imisatsi y'umukara ukenye n'akantu mu mutwe, yambaye imyitero y'umweru, inyuma ye hari abantu bamushagaye bari kumureba, hejuru ye hari amatara ari kwaka.

Umugabo wambaye imikenyero, uri guhamiriza, akaba afite icumu mu ntoki ndetse n'ingabo mu ntoki. Iruhande rwe hari n'abandi bari kubyinana bose bambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru.

Igisabo gitereretse ku ruhimbi, gifite ibara risa nk'igaju, kifite n'umutemeri wacyo, hirya yacyo hariho uruziga cyangwa urukuta.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara ishati y'amaboko magufi y'umweru, akaba afite ikintu cy'igiti mu kanwa kijya gusa umweru, inyuma ye hakaba hari ibiti.

Insinga z'amashanyarazi zigiye zitondetse ku mapironi hakaba hari abantu bari gukora mu muhanda w'umukara ndetse utaruzura neza, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru n'igisorobeti cy'abakozi ba REG, akaba ari ahantu hari umuriro ari kureba niba nta kibazo umuriro wagize, inyuma hakaba hari inzu isakaje amabati atukura.

Abagabo bari ku mapironi, hariho n'insinga bakaba bambaye ingofero z'ubururu n'imyenda y'umukara biziritse n'ibintu by'umutuku mu nda bituma bibafata bakaba batabasha kugwa.

Umukobwa uri hejuru ku rwego wambaye ijele y'umuhondo, akaba ari ku rwego yuye inzu. Akaba ari kumwe n'undi muntu utagaragara neza, ugaragara akaboko konyine, inyuma yabo hakaba hari urutoki.

Ahantu habugenewe hari amapano menshi, ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, inyuma hakaba hari igiti kinini cy'inganzamarumbo, hino gato hari iyindi batiri iteretse ndetse n'utundi dusanduku twinshi tw'umweru.

Umukobwa wambaye ingofero y'umweru akaba yambaye n'imyenda ya sosiyete ishinzwe amashanyarazi ya REG akaba ari ku gikuta cy'inzu ari gukora amashanyarazi.

Inzira y'abanyamaguru iri gucamo abagabo babiri bari kugenda, hakurya no hakuno hari amazu asakaje amabati y'umweru ndetse hari n'urutoki.

Ahantu habugenewe hari amashanyarazi menshi cyane ari ku mapirone ndetse n'insinga zijyana amashanyarazi, iruhande rw'aho hari umuhanda uzitiye ugendwamo n'abantu.

Amapeloni agiye atandukanye ariho insinga zijyana amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye zikaba ziri ahantu munsi y'itaka, izindi ziteretse ku bintu by'ibyuma byakozwe.

Insinga z'amashanyarazi zitambuka ku maperoni zijya ahantu kure, inyuma yaho harenga hakaba hari inzu isa umweru ifite amabati, ku mpande hakaba hateye ibiti.

Umugabo wambaye ingofero y'umuhondo na ga z'umutuku, umupira w'amaboko magufi n'ipantaro, akaba yiziritse ibintu mu nda, byamuhujije n'igiti cy'ipoto kiriho insinga agiye kumanika mu umuriro.

Umugore wambaye ingofero y'umweru n'impuzankano y'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe amashanyarazi REG, umugongo we yanditsemo imibare magana mirongo ine n'icyenda, akaba ari gukora kuri cash Pawer.

Abantu babiri bari hejuru yininzu ifite amabati y'umutuku, bakaba bambaye imipira y'amaboko magufi isa, bakaba kumanika pano saleye itanga urumuri nijoro.

Abagabo b'abubatsi bambaye ingofero z'abubatse, udupfukamunwa ndetse n'amajeri yabugenewe, harimo umwe wambaye isaha, bakaba bari kugenda batembera ahantu hari kubakwa igikorwa remezo runaka.

Insinga z'amashanyarazi ziriho insinga nyinshi ndetse na taransifa, ziri ku biti bibiri bihagaze zitwara umuriro hirya no hino, hasi yazo hari amakoma n'ibiti bigaragara wagira ngo ni iby'ishyamba.

Abakozi bakora mu bintu bijyanye n'amashanyarazi, bakaba bari ahantu hari insinga nyinshi bambaye ingofero z'umuhondo ndetse n'amajire n'amapantaro y'umukara.

Inyubako ndende, iri mu mabara y'umuhondo, ifite amadirishya y'umukara, isakaje amabati ifite nu'ruzitiro rujya gusa umweru, inyuma yayo hakaba hari ibiti.

Inzu nziza igezweho isakaje amabati y'umutuku n'urutendere rw'ubururu, yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umuhondo. Ikaba ikingishije inzugi n'amadirishya by'icyatsi.

Abantu benshi, abagabo ndetse n'abagore, bari imbere y'inyubako nziza, ifite ibirahure bibonerana yubakishije amatafari ahiye, hejuru yaho hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukarara avuga ngo ibiro by'Umurenge wa Rukomo.

Ikiraro kigezweho gica mu kirere, gifite ibintu by'ibidodo ku ruhande, hakaba hari gucamo abantu benshi, batambuka bambuka, hino hakaba hari abandi babiri, bari kubitegereza.

Inyubako igezweho yubakishijwe amabati atukura, akaba afite urugo rw'icyatsi, iruhande rwaho hakaba hari icyapa cy'umweru cyandikishijeho amagambo ari mu mabara atandukanye harimo ngo MCC katabagemu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi kandi nini, iruhande rw'aho hari amazu afite igisenge k'icyatsi, hirya gato hakaba hari ahantu hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti.

Inyubako nziza ifite amabara atandukanye, ay'icyatsi, umuhondo n'ubururu, isakaje amabati n'ibyuma ikaba imeze nka sitade kuko hepfo hari ubwatsi bakiniramo.

Ikiraro iruhande rwacyo moto eshatu, hejuru kubyuma biri kuriraro, hariho agatimba gafashe kubyuma byo hino n'ibyo hirya.

Inyubako nyinshi zikikizwa n'akantu kameze nk'utwuma, amabati y'umutuku, iteranye y'umweru ku nkingi no mu nguni, hari akantu kari imbere yayo k'umweru.

Inyubako nziza isakajwe amategura, isize irangi ry'icyatsi, yanditseho ngo ingoro y'ubutabera, hakaba hari umugabo uri iruhande rwayo ufite ikote mu ntoki agiye kwinjira mu modoka.

Inyubako nyinshi zigezweho zisakaje amabati, zubakishijwe amatafari ahiye, hakaba hari n'amapoto y'umuriro w'amashanyarazi, inyuma yazo hakaba hari abantu batatu barimo barakora imirimo.

Inyubako nziza igeretse ifite igisenge kijya gusa umutuku amadirishya ndetse n'inzira inyurwamo iyo bajya kujya hejuru ku mpande zayo hari abantu batagaragara neza kandi izengurukishijwe amapave.

Inyubako ndende igezweho y'umweru iyi iruhande rwayo hakaba hari indi yubakishije amabati y'ubururu hino gato hakaba hari amarembo manini yandikishijeho amagambo y'umweru ngo Inyange miriki.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, isize irange ry'umuhondo, hakaba hari abagabo batatu bari imbere yayo, hirya gato hakaba hari idarapo ry'u Rwanda.

Inzu y'ibiti idasakaye, ikoresheje ibiti byinshi bigiye binyuranye, ku ruhande hakaba hariho urukuta rw'amabuye, inyuma gato hakaba hari ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye.

Inyubako igezweho isharanye n'izindi nyinshi zisize amarangi y'umuhondo, iruhande rwayo hakaba hari abana benshi barimo barakina ahantu hari ibiti, haparitse na moto.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba iteye irangi ry'umuhondo, hejuru isakaje n'amabati, ifite na anteni, hakaba handitseho amagambo ngo ibiro by'Umurenge wa Musheri.

Umuhanda wa kaburimbo uca ahantu ku marembo manini, akaba agizwe n'urukuta rurerure rw'umweru, hakaba hari na bariyeri y'ibyuma y'amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye harimo ibirayi ndetse n'ibitunguru n'imboga, hakaba hari umugore wambaye ingofero n'ishati y'amaboko magufi yicaye ku ntebe y'umutuku.

Uruzitiro rw'ikigo kimwe runaka rukaba rugizwe n'umuryango ufite ibyuma by'umutuku ndetse n'umweru, inyuma yaho hakaba hari umusaza ufite imbago ndetse n'abana bari ku rundi ruhande.

Ahantu hari abantu bagiye banyuranye harimo abashinzwe umutekano nka DASSO, hakaba hari abagore bari imbere bafite utundi tw'udukarito dusa umuhondo ndetse bakaba bambaye imipira y'umukara.

Abagabo babiri bafite, inkoko iriho indabyo, umwe yambaye isaha yambaye na ka sikafu mu ijosi, yambaye undi yambaye ikote, imbere y'ikote yambariyemo umupira wumweru ufite ikora ry'u...

Abantu benshi b'abagore bicaye ahantu hamwe, bakenye ibitenge, hakaba harimo abateze ibitambaro, uri imbere yambaye agapira k'umutuku n'igitambaro mu ijosi n'igitenge ndetse n'inkweto.

Abagabo batatu barimo umwe wambaye baji y'ubururu n'umweru n'ishati y'umweru, ufite terefone mu ntoki, wambaye nki'pantaro y'umukara, akaba yegeranye n'undi ufite ikaramu ku mufuka ndetse n'ikayi mu ntoki.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara n'umweru ufite mikoro y'umukara, ahagaze ahantu hari amapave, inyuma ye hakaba hari abandi bantu benshi bari hafi y'inyubako ifite amabati y'umukara iseze rye ry'umweru.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu nyuguti z'umukara cyo kikaba gisa umweru kimeze nk'aho kiranga, iruhande rwacyo hari umuhanda wa kaburimbo, inyuma gato hari amazu menshi afite igisenge cy'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo harimo amarangi y'umuhondo n'ay'umweru, bigaragaza aho bambukira, umuhanda ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye harimo inurusu za gasiya n'ibindi.

Imodoka nziza y'umweru iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ikaba ifite amapine y'umukara. Hirya yayo hari umugabo wambaye kasike w'umumotari n'ijile y'abamotari, uri kugenda kuri moto. Inyuma ye hakaba hari inzu ifite amabati y'umutuku.

Umumotari uri muri kaburimbo, uhetse umugenzi, umumotari yambaye kasike y'umutuku, umugenzi yamabaye kasike y'icyatsi, bari muri kaburimbo imbere y'inzu y'akarere ka Nyagatare y'ibiro by'akarere.

Imodoka ya kwasiteri irimo abagenzi bakeya, hirya yayo hari iyindi, uko bigaragara ni muri gare ndabona hari abantu benshi. Hari inzu ziri hirya y'iyo modoka, zifite amabati y'umutuku, ubururu, n'ibindi.

Imodoka y'umutuku iri mu muhanda wa kaburimbo, ikaba ifite amapine yu'mukara. Inyuma yayo hari inzu isakaje amabati y'umutuku, isize irangi ry'umweru.

Ingabo z'umutekano ziri guhinga, ziri gufatanya n'abaturage. Ndabona ni abasirikare babiri n'abandi baturage nyine batandukanye. Abasirikare bambaye inifomo, abaturage bambaye indi myenda.

Abantu benshi bicaye mu itente rifite amabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu, hakaba hari umugore wambaye ikanzu, uhagaze ari kuvuga atwikiriwe umutaka n'uwundi mugabo.

Abayobozi bari kugenda mu nzira harimo umwe wambaye amarinete, ikote ry'umukara, ishati y'umwana na karuvati y'umukara, ipantaro n'inkweto, akaba arimo aravugana n'umugore wambaye ishati y'amabara afite n'agakaye mu ntoki.

Abantu benshi bahuriye mu gikorwa cya rusange nk'umuganda bafite amasuka biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bose bari kugenda bahinga bagerageza kurandura ibintu by'ibyatsi n'ibiti biri imbere yabo.

Abantu bicaye ahantu bateraniye ari benshi, harimo abagabo, abagore, bambaye imyenda igiye itandukanye. Bicaye munsi y'igiti gifite amababi make, hirya yaho hakaba hari urugo ruteye umucanga.

Abaturage batatu, bikoreye amabuye, hari n'abandi arimo umudaso, umusirikare n'abandi baturage, bari guhinga, imbere yabo hahagaze umupolisi wambaye inifomu n'umusirikare wambaye inifomu.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo harimo abambaye ingofero abandi bateze ibitambaro, bakaba bicaye bareba imbere bakoma mu mashyi nk'aho habaye inama cyangwa se igiterane.

Abayobozi mu nzego zitandukanye bari ahantu harimo abahagarariye inzego za gisirikare ndetse n'inzego za polisi, bakaba bari kumwe n'umugore wambaye igitambaro cy'ubururu ndetse n'ikanzu y'igitenge bigaragara ko bari kubyina.

Abakinnyi ndabona ari batanu, abakinnyi bamwe bambaye amajesi y'ubururu abandi bambaye amajezi y'umuhondo, hari umwe uri gusa nkaho ari kuza, undi ari hirya yabo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mu kibuga, hakaba harimo abambaye imyenda y'ubururu, abandi batagaragara neza mu maso bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'amasogisi y'umuhondo.

Umugabo wambaye umupira ndetse n'ipantaro, akaba afite mikoro mu ntoki yambaye n'amarinete, ahagaze imbere ahantu hasa umutuku, inyuma hari inyubako ndende igerekeranyije.

Abakinnyi bari mu kibuga kirimo umusenyi, hatarimo tapi, hirya gato hakaba hari abantu bicaye baje kubareba. Abo bari gukina bambaye imyenda y'ubururu, irimo ibara ry'icyatsi.

Abakinnyi bari mukibuga cy'umupira w'amaguru bari gukina, hakaba harimo bamwe bambaye imyenda y'icyatsi, abandi bambaye ubururu n'umweru. Umwe ari gukambakamba nkaho bari bamukoreye ikosa.

Abakobwa bari mukibuga cy'umupira wamaguru bari gukina Football, bakaba bamwe bambaye imyenda y'umutuku n'umweru, abandi bambaye imyenda ijya gusa ubururu n'umweru.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga bakina babiri bakaba bambaye imyenda isa y'ubururu n'umweru ndetse n'amasogisi n'inkweto, undi akaba yambaye imyenda y'umuhondo ndetse yambaye n'amasogisi ajya gutukura.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bicaye muri stade irimo intebe z'ubururu, hakaba harimo umwe wambaye akagofero k'ubudodo, agapira k'umweru ndetse n'ipantaro iriho imifuka ku ruhande.

Abantu benshi bambaye imyenda iri mu mabara agiye atandukanye, bakaba bari ahantu hamwe bari muri siporo. Iruhande rwabo hari inyubako n'umuntu uri imbere uri kubakoresha siporo

Abantu benshi biganjemo abayobozi barimo abahagarariye polisi n'abandi, hakaba harimo umugore umwe wambaye igitambaro cy'umukara, amadarubindi ndetse n'ikanzu y'umutuku, munsi yaho hari abana.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bambaye imyenda ya siporo baryamye hasi bari gukora siporo, inyuma yabo hakaba hari ikibuga cy'umupira naho harimo abandi bantu.

Abantu benshi biganjemo abagabo bahuriye ahantu mu cyumba, hakaba harimo umwe wambaye ingofero y'umutuku, umupira w'umutuku bose bicaye yegeranye nabandi bambaye imipira y'ubururu.

Abakinnyi b'umupira bahagaze ku murongo, harimo abambaye impuzankano z'umukara n'ubururu n'amasogise y'umweru, harimo n'imipira ibiri, bari imbere y'inyubako ya sitade ifite amabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Abantu benshi bari muri siporo, harimo abagore n'abamama ndetse n'abasore. Imbere yabo hari umuntu uri kubayobora kugira ngo badasigana.

Abakinnyi bari mu kibuga, harimo umwe wambaye umupira w'umuhondo, ikabutura y'umukara, amasogisi y'umukara n'inkweto z'umutuku, akaba afite ikarita mu ntoki, inyuma ye hakaba hari abandi bakinnyi benshi.

Abantu bahagaze ahantu hamwe hari intebe z'umukara harimo umugore wambaye ingofero y'umukara ndetse n'imyenda y'indi isanzwe iruhande rwe hari abandi bantu bari kubyina.

Umuhanda wa kaburimbo ufite amabara y'umukara n'umweru kumpande, hirya gato hari inzira y'abanyamaguru, hakurya hakaba hari ibyatsi byinshi bigiye binyuranye, mu muhanda hakaba harimo imirongo isa umuhondo.

Abamotari bahagaze mu muhanda w'amabuye bambaye kasike, inyuma yaho hakaba hari abandi bamotari baparitse hari na moto nyinshi ndetse n'akazu ka sosiyete y'itumanaho ya MTN.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara, wambaye ishati y'amaboko magufi y'umukara n'ipantaro y'umukara, akaba ari gutambuka mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwe hari abamotari bambaye ingofero zabo ndetse bicaye kuri moto.

Umugore uhetse umwana mu mugongo, yarengejeho agashuka k'umweru, akaba yambaye igitambaro mu mutwe n'ibitenge n'inkweto zifunguye, ari kugenda muri kaburimbo, hirya gato hari inyubako.

Umwana wambaye igisurubeti ufite ikidurugumu cy'umukara, akaba ahagaze mu muhanda wa kaburimbo iruhande rwaho, hakaba hari ibyatsi ndetse n'urukuta rujya gusa umukara.

Abamotari benshi bambaye kasike z'umutuku begeranye n'abagenzi bagiye gutwara, bakaba baparitse ahantu hashashe amabuye, iruhande rwabo hari akazu ka sosiyete y'itumanaho ya MTN.